Ni ahantu mu busitani bwiza, hari intebe ndetse n'imeza ndetse hari n'imitaka myiza ya gisirimu itwikiriye aho hantu, bisa nkaho ari ahantu abantu bicara baganira, iruhande rwayo hari amazu meza ari mu ibara ry'ubururu bukeye ndetse n'amatafari.